Ibikoresho by'isuku bitandukanye, birimo amasogisi ndetse n'ibindi, biba biri mu mashusho atangaje, bituma abana babyitaho bityo bigatuma ubwonko bwabo bukanguka.

Ubumenyi bw'amashuri y'inshuke aho bahabwa ibikoresho bigiye bitandukanye bishushanyije, maze bigafasha abana kwisobanukirwa ndetse no gufunguka mu mutwe.

Uburezi bw'abana b'incuke aho ababyeyi bita ku bana babaha ibyorya ndetse babagaburira kugira ngo babone amafunguro akwiriye gutunga imibiri yabo.

Uburezi bw'amashuri y'inshuke, aho abana berekwa ibishushanyo bigiye bitandukanye, bituma barangara ndetse bagakanguka mu mutwe, inkoko n'agashwi kayo ndetse n'ibindi bice by'umubiri.

Icyumba giteguye neza, kigiramo abana bari mu burezi bw'inshuke, bafite intebe zitunganyije kandi n'ameza ateye neza, harimo n'ibikoresho byose, bituma abana bagira ubumenyi bugiye tandukanye.

Ikigo cy'amashuri y'incuke, aho umwana agana ku ishuri yambaye impuzankano y'icyatsi n'udukweto tw'umutuku ndetse n'ishati ijyanye na byo bityo akajya gufata ubumenyi ndetse akisanzura no ku bandi.

Uburezi bw'amashuri n'inshuke, aho hatangwa ibikoresho bigiye bitandukanye by'amabara menshi, umutuku, umuhondo, icyatsi, ubururu ndetse n'andi, bityo bigakangura ubwonko bw'umwana kumenya no gutandukanya ibintu bitandukanye.

Ikigo cy'amashuri y'inshuke aho berekana amashusho atandukanye kugira ngo abana batekereze neza, igiti gitanga indabyo ndetse gituma abana bagira ubumenyi bugiye butandukanye.

Inyubako y'amashuri ahari ibikinisho by'abana, bitorerezaho bidagadura, bigomba kuba biri mu mabara y'umuhondo, umutuku, icyatsi n'umutuku. Bityo bigatuma bidagadura ndetse bakisanzuranaho.

Abana b'inshuke bicaye hamwe ku mukeka bari kumwe n'umubyeyi ubafasha kwisobanukirwa ndetse no kumenya bagenzi babo aho bahabwa amafunguro, igikoma kandi bari mu mashuri ateka.

Ibikoresho byifashishwa mu kwigisha abana, cyane cyane ab'inshuke, biba biri mu mabara atandukanye, harimo n'ibikinisho by'amaradiyo bisa ubururu, umuhondo, icyatsi ndetse n'andi mabara.

Ibikoresho bigiye bitandukanye, byifashishwa mu guteka harimo amakara, harimo ibitoki ndetse ni iduka rifunguye ririmo ibyo kurya bigiye bitandukanye, hafi aho hari na moto ifite purake RE magana cyenda mirongo icyenda na gatatu L bityo bifasha mu gutwara ibintu ndetse n'ingendo.

Amashusho y'ibitente ndetse n'ibipupe atuma abana bishima ndetse bakisanzura, bityo bigatuma bafunguka mu mutwe ndetse bakamenya byinshi birushijeho kuba byiza.

Gahunda y'uburezi bw'amashuri y'inshuke ku bana batoya, aho bahabwa ibikinisho bigiye bitandukanye bituma ubwonko bwabo bukanguka kandi bikaba biri mu mabara agiye atandukanye.

Uburezi bw'amashuri y'inshuke, aho abana bahabwa ibikoresho birimo amabara atandukanye y'icyatsi, umweru, umutuku ndetse n'ibindi bitandukanye.

Uburezi bw'amashuri y'inshsuke, aho ku bigo ndetse no mu byumba bigeraho, hashushanywaho ibishushanyo bibafasha gusobanukirwa neza, iby'ubuzima busanzwe bwo hanze y'ishuri kugira ngo bisanishe ndetse banamenyere.

Ishusho y'abana bicaye, bafite udukoresho dukoze mu ishusho y'umutima, ibyo bikangurira bagenzi be kumureba ndetse bagakanguka mu bwonko.

Ibikoresho byifashishwa mu rugo ariko bikoze mu buryo butuma abana bahugukira kumenya amazina yabyo, bikaba biri mu mabara y'icyatsi, umutuku, umuhondo, ubururu ndetse na orange.

Uburezi bwerekeye abana b'inshuke, aho bahabwa ibikinisho bibafasha mu gukina no kwisanzura ndetse bakabana n'abandi neza bishimye, bityo bigatuma ubwenge bw'umwana bwaguka mu mitekerereze.

Uburezi bwita ku bana b'inshuke. Aho bashyirwa mu kibuga ndetse no mu mazi, bagahabwa ibikoresho bifasha koga, bakagira ubuzima bwiza ndetse bakaruhuka no mu mutwe, bityo bigatuma ubwonko bwabo bukura neza.

Ibikoresho byifashishwa mu kwiga, mu mabara agiye atandukanye, abana bakangurirwa ndetse bagangura ubwonko bwabo bukamenya byinshi bigishwa n'uko amabara atandukanye.

Abanyeshuri bari mu mashuri y'incuke, aho bambaye impuzankano z'umuhondo ndetse n'ubururu, bakina bisanzuranaho ndetse bari kumwe n'umwarimu wabo, aho aberekera ndetse akabarinda no kwanduranya.

Amashuri y'incuke, aho abana barimo biga ndetse umwana uri gusobanurira bagenzi be inkuru yashushanyije bityo bigatuma bayiganiraho ndetse n'abandi bakamenya byinshi kuri yo.

Uburezi bw'amashuri y'inshuke, aho abana batozwa ndetse bakerekwa ibishushanyo bigiye bitandukanye: ibice by'umuntu, ikarita y'Igihugu ndetse n'ubundi bumenyi bugiye butandukanye.

Ibyumba by'amashuri ku bana b'incuke ndetse bakiri bato, aho bigishwa uburyo bwo kubara igihe, hifashishijwe ibishushanyo biba biri ku mashuri bigiramo.

Ibikoresho bitandukanye bifasha abana kubara, cyane cyane abo mashuri y'incuke ndetse n'abo mu marerero, mu mabara agiye atandukanye akangura ibitekerezo ndetse n'imyumvire yabo nk'ubururu, icyatsi, orange n'umuhondo.

Amashuri y'inshuke ndetse n'ay'abana batoya aho bigishwa gutandukanya ibikoresho byo mu rugo bigiye bitandukanye, ibipupe, igitanda, amashuka, imisego ndetse n'imyenda yo kwifubika bityo bigatuma abana bamenya ubwenge bakiri bato.

Ikigo cy'amashuri y'inshuke ahari abana barimo gukina mu kibuga hafi y'indabyo ziteye neza kandi zitanga umwuka uhagije, bambaye impuzankano z'umweru, ubururu bwijimye ndetse n'imipira y'imbeho bisanzuranaho ndetse bungurana ibitekerezo.

Abana batonze umurongo kandi bari hamwe, aho bambaye impuzankano z'umuhondo ndetse n'umukara, bambaye ingofero bakoze mu bipapuro bityo bigatuma bagira ubwenge bwo kwihangira imirimo ndetse bagahanga n'udushya.

Uburezi bw'amashuri y'incuke, aho abana berekwa ibishushanyo ndetse n'amashusho atandukanye y'inyamaswa, imbogo, inzovu, ingona ndetse n'intare kugira ngo umwana amenye gutandukanya ibisimba.

Ikigo cy'amashuri y'inshuke aho abanyeshuri bakusanyirizwa mu cyumba cyabugenewe, ku musamariya mwiza ikigo mpuzamahanga ndetse giterwa inkunga na leta y'ubuyapani, ahatanga uburezi ndetse n'ubumenyi bugiye butandukanye ku bana bakiri batoya.

Uburezi bw'inshuke ndetse n'abana bato, aho ku byumba by'amashuri hashushanywa bimwe mu bice by'umubiri ndetse na zimwe mu nyunganiramubiri, zerekana uko amaraso atemba, bityo bigafasha abana mu kumenya neza, isomo ry'Ibinyabuzima.

Abanyeshuri biga mu mashuri y'inshuke, aho bahabwa ibikoresho bibafasha mu kubika igikoma, amazi ndetse n'ibindi, aho biga bameze neza kandi batekanye.

Ikigo cy'amashuri gifite ibyumba byihariye, byita ku bana b'incuke, ahashushanyijwe ibikoresho bigiye bitandukanye nk'amsaha ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.

Amaduka atanga ibyo kurya ndetse na serivisi zigiye zitandukanye z'ubucuruzi, aho bategereje abakiriya kugira ngo babafashe ndetse batanga serivisi zikwiriye bityo biteze imbere mu buryo bwose.

Uburezi bw'abana b'inshuke, aho mu mashuri bahabwa ibikoresho bigiye bitandukanye bituma basobanukirwa kwandika ndetse no kubara, aho bifashisha amakaramu y'amabara agiye atandukanye.

Uburezi bw'amashuri y'incuke, aho abana babaha ibikoresho ndetse n'ibipupe, bibatuma barangara ndetse bagafunguka mu mutwe mu mabara agiye atandukanye.

Gahunda yo kwita ku bana b'inshuke, bigishwa ndetse bagahabwa amata ndetse n'ibindi bibafasha kumererwa neza inshyushyu, ikivuguto, ndetse n'ibindi.

Inyubako ndetse n'ibikinisho by'abana, bituma bisanzura ndetse bagafunguka no mu mutwe, aho biri mu mabara atandukanye nk'ubururu, umuhondo, icyatsi ndetse n'umutuku.

Inyubako z'ikigo cy'amashuri y'inshuke aho hari ibikoni bitunganyirizwamo amafunguro abana bafata mu gihe k'ikiruhuko bikabafasha kumererwa neza ndetse bagafata n'amasomo yabo neza.

Ibikoresho byifashishwa mu mashuri y'incuke, aho abana bahabwa ishusho y'inyenyeri ariko igizwe n'amabara agera muri atandatu nk'umuhondo, umutuku, orange, icyatsi ndetse n'ubururu.

Uburezi bw'abana b'inshuke, aho butunganyirizwa icyumba, kirimo amabara agiye atandukanye kandi gifite ibishushanyo birimo bitandukanye.

Ibikoresho bijya bitandukanye, bituma abana bakanguka mu mutwe cyane cyane abo mu mashuri y'inshuke, bifite amabara menshi umutuku, ubururu, icyatsi ndetse n'umukara, bityo bigatuma abanyeshuri bakanguka mu bwonko.

Uburezi bw'abana b'inshuke, aho bahabwa ibikinisho ndetse n'ibikoresho bikozwe mu mashusho atangaje, atuma abana ubwonko bwabo bukanguka ndetse bakitabira bakamenya icyo gukora.

Ibikoresho bitandukanye bikangurira abana bari mu mashuri y'inshuke, kumenya ndetse no guhugukira, gusobanukirwa ibintu byose bitandukanye, cyanecyane biba bikozwe mu nyamanswa mu ibara ry'umutuku, icyatsi, umukara ndetse n'ayandi mabara.

Uburezi bw amashuri y'inshuke aho abanyeshuri bigishirizwa mu myaka ya mbere ndetse batozwa kubana n'abandi, aho bahabwa ibikinisho ndetse n'ibikapu bishushanyijeho amashusho y'abana kugira ngo bisange mu burezi

Abana bari hamwe basoma ikinyamakuru cy'Itetero ndetse bareba n'abandi bana bagenzi babo, aho gicishwa kuri radiyo y'u Rwanda y'Igihugu bityo bigatuma abana bisanzuranaho ndetse bakumva ko hari n'ahandi bagenzi babo aho bari hose.

Abana b'incuke bicaye hamwe barimo bafata amafunguro abatunga bityo bakagira ubuzima bwiza kandi n'ubwonko bwabo bugakora mu buryo bwose.

Abanyeshuri babiri umuhungu n'umukobwa bava mu muhanda binjira mu isomero, aho basanga ibitabo bigiye bitandukanye kugira ngo biyungure ubumenyi.

gGahunda y'uburezi bw'inshuke ndetse n'abana bato, ahubatswe ibyumba by'amashuri, biri ahantu hari ubusitani bwiza burimo ibiti kandi hari n'umurima uhinze neza.

Abana bari gukina umupira w'amaguru ndetse bari kumwe n'umwarimu wabo abatoza uko bagomba kwitwara ndetse bisanzura na bo kandi batabangamiranye.

Uburezi bw'amashuri y'inshuke, aho abana bahabwa ibikinisho bigiye bitandukanye, bikoze mu mashusho menshi y'urusobe, bituma abana bakanguka mu bwonko ndetse bagatekereza cyane.

Ibitabo byabugenewe ndetse n'imfashanyigisho zigiye zitandukanye, zifasha abana bari mu mashuri y'incuke ndetse n'ay'abana bato kugira ngo bagire ubumenyi bugiye butandukanye kandi bw'ibanze.

Abanyeshuri bo mu mashuri y'incuke bari hamwe ku ishuri bari kumwe n'umwigisha wabo bafata igitabo bagasoma ndetse bakungurana ibitekerezo bakamenya no kwandika neza ikinyarwanda.

Uburezi bw'abana b'inshuke, aho ku byumba by'amashuri usanga hashushanyije imbuto, berekana ukuntu igihingwa kimera, kuva ku munsi wa mbere kugeza kibaye gikuru.

Ibikoresho byifashishwa mu mfashanyigisho ndetse n'integanyangisho y'abana, aho bahabwa ingero z'ibipimo ndetse n'izuburemere kugira ngo bamenye uko bitwara.

Mu burezi bw'amashuri y'inshuke aho ababyeyi bajyana abana babo mu bigo byo kwidagadura ndetse no gukina, haba hatatse amabara agiye atandukanye ndetse atuma abana bafunguka mu mutwe.

Igitabo cyerekana inkuru y'igikomangomakazi Arima ndetse mu bwami bwa Afiya, aho ibwirwa abana bo mu rwego rw'inshuke kugira ngo bumve ndetse bagire gusobanukirwa.

Ibikoresho byifashishwa n'abanyeshuri biga mu mashuri abanza ndetse n'ay'incuke, harimo inyuguti zishushanyije mu mbaho kandi zisize amarangi meza, akururira ubwonko bw'abana kumenya, harimo icyatsi, umutuku, umuhondo ndetse n'ayandi.

Uburezi bw'abana b'inshuke, aho bahabwa ibikoresho bigera bitandukanye, bituma bisanzuranaho ndetse biri mu mabara agiye atandukanye nk'umutuku, ubururu, umukara ndetse n'umweru, bityo bakamenya bakanafunguka mu mutwe.

Uburezi bwita ku bana b'inshuke aho bahabwa amashusho agiye atandukanye harimo ay'amazina y'abana bagasabwa kuyasoma nka Ngabo bityo bigatuma umwana amenya kwiga ndetse no kwandika neza Ikinyarwanda.

Ibyumba by'amashuri y'abana b'incuke ndetse bakiri batoya, aho bahabwa aho kwigira, hakaba hashushanyijeho mu buryo bwose butandukanye, ibimera bimera byerekana uko biva mu butaka ndetse bakagira n'ubumenyi rusange ku bintu byose.

Ibikoresho byifashishwa mu kwiga ndetse no gutwara amakayi y'abana bajya ku ishuri, cyane cyane ay'incuke, aho bigomba kuba bisa neza kandi bifite amabara akurura intekerezo ndetse n'ubwonko bw'abana.

Gahunda y'uburezi bw'amashuri y'inshuke ndetse n'abana bato, aho bahabwa ibikoresho bigiye bitandukanye bibafasha kwiga ndetse bikangura n'ubwonko bwabo kugira ngo bisanishe n'isi yo hanze.

Mu burezi bw'inshuke ndetse n'abana batoya, aho bakusanyirizwa hamwe, bagakina bagahabwa ibikoresho byose by'ingenzi, bigatuma bamenya kwisanzuranaho ndetse bakagira n'ubwonko bwagutse.

Ibikoresho bikoreshwa n'abana biga mu mashuri y'inshuke, harimo ibiri mu mashusho y'imbwa ndetse n'ay'umutima kandi biri mu mabara agiye atandukanye, bikangura intekerezo z'umwana.

Uburezi bw'imimana n'inshuke, aho bakoresha ibikinisho, biberekana ko bagomba gukina imikino itandukanye, bityo bikabakangura mu mutwe kuko biba bifite n'amabara agiye atandukanye.

Uburezi bw'ikiciro cy'amashuri y'inshuke, aho abana berekwa amashusho agiye atandukanye, asetsa akoze mu bitente, bityo bigatuma umwana asusuruka ndetse agafunguka mu mutwe.

Ibikoresho byifashishwa mu kwiga, ni aho umwana uri mu mashuri y'inshuke ahabwa ibikapu bishushanyijeho utunyugunyugu mu mabara atandukanye kugira ngo yishime ndetse n'ubwonko bwe bukanguke.

Abana b'incuke bari mashuri yabo, bahabwa ibikoresho bitandukanye bituma bisanzuranaho kandi bagakina ndetse bibafasha kumenya uko bagomba kubana kandi bagakina neza.

Gahunda y'uburezi bw'abana bato b'inshuke, aho mu kigo cy'Umusamariya mwiza kandi mpuzamahanga iterwa inkunga na Leta y'Ubuyapani, hashushanyije inyamaswa zigiye zitandukanye ndetse n'idarapo ry'Igihugu.

Uburezi bwibanda cyane cyane ku bana b'inshuke, aho bashyirwa hamwe, bagahabwa ibikinisho nk'imodoka, utugare ndetse n'ibindi biri mu mabara atandukanye, bibafasha gukanguka ubwonko ndetse bakaba abantu bakuru mu mutwe.

Ibikoresho bituma abana bahuguka ndetse bagafunguka mu mutwe, biri mu mabara atandukanye, icyatsi, umuhondo, umukara ndetse n'ubururu bityo bigatuma bagira ubwenge bwisumbuye kandi babarizwa mu mashuri y'incuke.

Ibikoresho by'amabara atandukanye, umutuku, ubururu, icyatsi ndetse n'andi afasha abana b'inshuke mu gufata ndetse no gufungura ubwonko bwabo.

Inyubako y'ibyumba by'amashuri yigirwamo n'abana, biga mu mashuri abanza, aho bahabwa ubumenyi bugiye butandukanye ndetse bakitabwaho mu buryo bwihariye.

Abanyeshuri bicaye hamwe baganira ndetse n'umwarimu arimo ubayobora ndetse ababaza ibibazo, yandika ku kibaho kandi abasobanurira ibyo bakwiye kwiga.

Uburezi bw'abana ndetse b'inshuke aho bajyanwa mu mashuri yabugenewe arimo ibikoresho bitandukanye bibafasha mu kwiga ndetse no gusobanukirwa kandi bakagira ubwenge ubwonko bugakanguka.

Abanyeshuri batanu b'ibitsina bitandukanye harimo abakobwa n'abahungu, aho bari ku kibaho bandika kandi biyibutsa ibyo mwarimu yabigishije, bityo bikabafasha mu burezi bwabo.

Ibikoresho by'abana biga amashuri abanza bikoze mu mashusho atandukanye y'urukiramende uruziga, mpande eshanu, mpande enye, ndetse n'andi mashusho atuma abana basobanukirwa.

Amarembo y'ikigo cy'urwunge rw'amashuri rwa Nkubi, aho batanga ikaze ku babagana ndetse batanga n'uburezi bufite ireme bityo bigatuma umwana uhavuye aba afite ubwenge.

Uburezi bw'amashuri y inshuke ndetse n'abana batoya, aho ikigo cya Nyagatare gishinzwe kwigisha abaforomo ndetse n'ababyaza kigaragazwa.

Imfashanyigisho ndetse n'uburere ku bana biga mu mashuri abanza, aho bahabwa ibikoresho bitandukanye, amakayi, amakaramu ndetse bakigishwa n'uburyo bagomba kubikoresha kandi biga n'ikoranabuhanga muri rusange.

Uburezi bw'amashuri abanza, aho abanyeshuri bakora isuku mu busitani batoragura imyanda bayishyira ahabugenewe, ibyo bigatuma bagira ubuzima bwiza aho bigira ndetse banakinira.

Ibikoresho byifashishwa mu kwiga imibare, cyanecyane ibyifashishwa mu guca imirongo, inziga, gusiba ndetse no gupima imfuruka mu bipimo bitandukanye, cyanecyane byibasira ku mabara y'umutuku.

Gahunda y'uburezi bw'ibanze, aho ibikoresho abana bifashisha, birimo uduti tw'imibare, udukinisho tw'amabara agiye atandukanye kugira ngo abana bakanguke kandi bamenye n'ibyo bigiye bitandukanye.

Uburezi bw'amashuri abanza aho abanyeshuri bahabwa imfashanyigisho z'ibitabo bakagira amashusho bahabwa atuma batekereza ndetse bagakanguka mu mutwe mu mabara agiye atandukanye bityo bigatuma bagira icyo bafata.

Uburezi bw'amashuri abanza, aho abana batozwa ibice bigiye bitandukanye bigize inzu, harimo inzugi n'amadirishya, igikuta ndetse n'igisenge ndetse bigatuma umwana amenya, ubumenyi rusange ku bintu byose.

Gahunda y'uburezi bw'amashuri abanza, aho abanyeshuri bahabwa ibikinisho bibafasha kubara kandi biri mu mabara atandukanye nk'ubururu, umutuku, umuhondo, icyatsi ndetse n'ibindi bigatuma abanyeshuri basobanukirwa neza aho ibintu bigiye bitandukanira.

Ibikoresho by'imfashanyigisho byifashishwa mu mashuri abanza ndetse no mu burezi bw'abana batoya bikoze mu biti aho byerekana inyuguti n'urusobe rw'inyajwi bityo bigafasha umwana gusobanukirwa ndetse no kumenya.

Abanyeshuri bicaye mu nzu mu cyumba runaka, aho bafite amafunguro n'ibyo kunywa harimo amata kandi bamwe bafite imbago ariko bafata amafunguro kugira ngo abafashe kubaho ndetse banige neza.

Gahunda y'uburezi bw'amashuri abanza, aho abanyeshuri bahabwa ibikoresho bigiye bitandukanye mu kubara, biri mu mabara atandukanye.

Iyumba cy'amashuri kirimo intebe, umukeka ndetse gifite n'ikibaho cy'umukara, gitangirwaho amasomo, aho abanyeshuri bicara, bakiga kugira ngo bagire ubumenyi bugiye butandukanye.

Abayobozi batatu, aho umwe bari kumuha inkunga y'imashini kugira ngo ijye imufasha mu masomo ye ya buri munsi ndetse no kunganira abarimu.

Ibyumba by'amashuri muri pirimeri cyangwa se abanza aho biri gutunganywa kugira ngo bishyirwemo ibisabwa byose ngo byigirwemo ndetse abana batangiragire bahabwe ubumenyi bugiye butandukanye.

Uburezi mu mashuri abanza aho ibikoresho byifashishwa mu mfashanyigisho berekana ibipimo by'uburemere, iby'uburebure ndetse n'iby'ubugari.

Gahunda yo kwigisha amashuri abanza aho bahabwa ibikoresho bitandukanye byo kwiga imibare baca imirongo, baca inziga, ndetse bapima n'imfuruka ku mibare igiye itandukanye.

Ibikoresho byifashishwa mu kwiga imibare hamwe abanyeshuri batozwa guca imirongo igororotse, baca inziga zimeze neza ndetse bapima n'imfuruka ku bipimo bitandukanye.

Icyumba cy'ishuri cyateganyijwe, cyo kwigiramo mudasobwa ndetse n'ikoranabuhanga, aho abanyeshuri bo mu mashuri abanza, bahabwa ibikenerwa byose kugira ngo na bo bige ku masomo agezweho.

Uburezi bw'amashuri abanza, aho abana bahabwa amasomo atandukanye ku mibare ndetse no kwiga uko amatsinda aba ateye, bityo bigatuma ubwonko bwabo bukanguka ndetse bukamenya byinshi.

Uburezi ku mashuri abanza icyiciro kibamo abana bakiri bato aho bakora siporo n' imyitozo ngororamubiri mu ruhame bityo bigatuma imibiri yabo igororoka kandi neza.

Inyubako z'amashuri abanza, aho abanyeshuri bafata ubumenyi bugiye butandukanye kandi bakiga byinshi bagana ishuri bagahabwa indangagaciro zibakwiriye.

Ibikoresho byifashishwa mu mibare, harimo guca inziga, imirongo, amakaramu y'ibiti ndetse n'uducongesho ndetse n'ibisisho, bituma umwana yiga neza kwandika ndetse agasobanukirwa.

Uburezi bw'amashuri abanza, aho abanyeshuri bahabwa ibikoresho bigiye bitandukanye, biri mu mabara menshi n'umutuku, umuhondo, icyatsi n'uburoru kugira ngo bakanguke mu mutwe kandi bamenye no kubikoresha.

Gahunda y'uburezi bw'amashuri abanza, aho abana bubakirwa ibyumba bigezweho, bigeretse kandi bikarushaho kugenda neza, bakiga bagafata.

Uburezi bw'amashuri abanza, aho abanyeshuri bicaye bateraniye hamwe bari kumwe n'abarezi babo, imbere y'ibyumba by'amashuri mu busitani kandi bakurikiye impanuro bahabwa.

Uburezi bw'amashuri abanza aho ibyumba by'amashuri bitegurirwa abana kugira ngo bigiremo ndetse bakabikorera n'amasuku banabisana.

Ibikoresho byifashishwa mu kwiga imibare aho harimo ikaramu z'igiti ibyifashishwa mu guca imirongo, gusiba ndetse n'inziga bituma abana bakuka ndetse bakamenya byinshi bijyanye n'ubumenyi bw'imibare.

Gahunda y'uburezi bw'amashuri abanza, aho abanyeshuri bahabwa ibikoresho bikoze mu biti, bishushanyijeho imibare, inyuguti ndetse n'ibindi bitandukanye, bityo bigatuma abana bakanguka ubwonko.

Inyubako yerekana ikigo nderabuzima cya Musanze, hari ubusitani bwiza buteye neza kandi hafite n'isuku, ku buryo abarwayi bagira umwuka mwiza ndetse bakaba batuje banatekanye.

Ibyumba by'amashuri bigezweho kandi byubatse neza, aho amashuri abanza hari ubwiherero, amashuri yo kwigiramo kandi yubakishije amatafari ahiye ndetse n'ibigega byo kubika amazi y'imvura.

Uburezi bw'amashuri abanza, aho abana bigishwa, ibikoresho bigiye bitandukanye, byifashishwa mu buhinzi ndetse n'ibyifashishwa mu bucuruzi bwo mu nsisiro, bakamenya byinshi ku bijyanye n'ubuzima gakondo.

Icyiciro cy'amashuri abanza, aho abanyeshuri bagera mu munani bicaye mu ishuri barimo bakurikira ndetse biga ibyo mwarimu yabatumye byanditse ku kibaho imibare y'icuumi makumyabiri ndetse n'ibishushanyo bimanitse mu mpande z'ishuri.

Gahunda y'uburezi bw'amashuri abanza, aho abanyeshuri bahabwa ibikoresho, bituma bamenya amabara agiye atandukanye, umutuku, icyatsi ndetsetse n'andi, kandi bagahabwa ibifite amashusho agiye atandukanye, atuma asuzuma ubwenge abana bafite.

Ibikoresho bitandukanye, cyane cyane ibyo mu rugo, biri mu mabara na yo menshi, aho abana biga mu mashuri abanza, bashishikarizwa kumenya ibikoresho bigize, harimo amapantaro, amajipo, imbuto, inkweto, isahani ndetse n'iradiyo.

Amarembo y'Ikigo cya Rukomo aho batanga ubumenyi bugiye butandukanye ku banyeshuri bahagana kandi bakagira byinshi bahatorezwa.

Isomo ry'imibare rihabwa abanyeshuri, biga uburyo bwo gushyira mu matsinda ndetse no gutandukanya, aho bahabwa ubumenyi kuri byo bigatuma baguka mu mutwe ndetse bagatekereza byimbitse.

Uburezi bw'amashuri abanza aho ikigo kigizwe n'inyubako n'ibyumba byo kwigiramo, aho babwira abashyitsi ko ari ikaze kandi bisanga.

Ibikoresho byo mu ishuri birimo amakayi, amakaramu, ikaramu z'ibiti ndetse n'ibikureri bituma abana bashushanya kandi biri mu mabara agiye atandukanye.

Ibikoresho bigiye bitandukanye byereka uko abana bo mashuri abanza bagomba kwiyitaho boza amenyo yabo ndetse bakiyitaho mu buryo bwose bikorera isuku.

Uburezi bw'ibanze aho abanyeshuri bahabwa ibitabo by'ubumenyi rusange ndetse n'ikoranabuhanga, cyane cyane abageze mu mwaka wa kabiri w'amashuri abanza.

Ikigo cy'amashuri gifite ubusitani bugari hari ibyumba byo kwigiramo ndetse bimenyereye harimo n'ibindi birimo kubakwa kugira ngo abanyeshuri babone aho bazigira.

Amashusho y'ibipupe ndetse akoze muri katuni, atuma abana bafunguka mu mutwe ndetse bakagira ubwenge butuma bibaza ndetse bakabona ko bafite abana bagenzi babo.

Urwego rw'uburezi, amashuri abanza, aho abanyeshuri batozwa gushushanya, ndetse bagahabwa n'ubumenyi butandukanye, kwiga kwihangira imirimo ndetse bakoresha impano zabo, bityo bigatuma baguka mu umutwe.

Ibikoresho byifashishwa mu kwigisha abana b amashuri abanza mu guca imirongo, inziga zigororotse ndetse n'ibindi bi bitgiye bitandukanye kugira ngo bajye biga neza kandi bafate mu mutwe.

Uburezi bw'amashuri abanza aho abanyeshuri bashishikarizwa gukina ndetse no kugira ubusabane hagati yabo, bityo bigatuma bafunguka mu mutwe ndetse bakagira byinshi bunguka cyane cyane bateganyirizwa n'ibirori bituma basusuruka.

Abanyeshuri bari mu cyumba cyo kwigiramo ndetse n'umurezi wabo, kubigisha imibare ijyanye n'imigabane, aho abana bakurikiye ndetse barimo gutega amatwi, banasubiza.

Gahunda y'uburezi bw'amashuri abanza aho abanyeshuri bategurirwa icyumba cy'ikoranabuhanga ndetse kigezweho bahabwa intebe nziza zo kwicaraho n'ibikoresho byo kubara ndetse n'amakaramu yo kwandikisha.

Ikigo cy'amashuri kirimo ibikoresho byose ndetse gitanga ikaze ku bana b'incuke, harimo ibikoresho bigiye bitandukanye, ibikapu by'amabara yombi kandi atatse, bituma abana ubwonko bwabo bukanguka.

Ishusho igaragaza abana batonze umurongo, abakobwa ndetse n'abahungu, aho abarimu babo bigisha kwifata neza mu gihe bari kuririmba indirimbo y'igihugu ndetse bagirana n'uburere buboneye.

Uburezi bw'amashuri abanza aho abanyeshuri bahabwa uburyo bwo kwita ku isuku yabo berekwa kandagira ukarabe ndetse 'n'uburyo bwo kuzikoresha bityo bigatuma babaho bafite ubuzima buzira umuze.

Abana biga mu mashuri abanza, aho batozwa kwiyitaho gusasa ibyumba byabo neza ndetse no kugirira isuku aho barara, bityo bigatuma umwana akura azi kwigira ndetse no kwimenya muri rusange.

Uburezi bw'amashuri abanza, aho abanyeshuri bashishikarizwa kumenya icyo umuganura uvuze bityo bigatuma bamenya, byinshi ndetse bakanakurikirana ibiganiro kuri televiziyo Rwanda aho bakurikira abandi bana bigatuma bunguka ubwenge.

Uburezi bw'amashuri abanza, aho abana bigishwa kumenya ibikoresho by'umwarimu ndetse n'ibikinisho bifasha abana kwisanzuranaho, harimo: imashini zifotora impapuro, amakayi, amakaramu ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.

Inyubako y'amashuri abanza bigiramo abanyeshuri bityo bagafata ubumenyi bugiye butandukanye bubafasha mu kwiga ndetse no kubaho neza.

Uburezi bw'amashuri abanza, aho ababyeyi bitabiriye igikorwa rusange cyo kureba abana babo ndetse n'imisaruro bafite kugira ngo bakomeze bamenye aho batera imbaraga ndetse n'aho bagomba gukomereza.

Ibigo by'amashuri abanza, aho hukwa ibyumba byabugenewe byo kwigirwamo ndetse hari n'umuzamu ushinzwe kubirinda ndetse no kubibungabunga mu gihe abanyeshuri badahari.

Amashuri abanza, aho abanyeshuri bahabwa ibikoresho bibafasha mu isomo ry'imibare bashushanya imirongo, inziga ndetse n'ibipimo by'imfuruka zigiye zitandukanye, aho bamenyera byinshi.

Inyubako z'amashuri abanza, aho abana bategurirwa neza aho bazigira, ibyumba bifite isuku mu marangi meza y'umutuku, umuhondo, ubururu ndetse hateye n'ibiti bizana akayaga.

Uburezi bw'amashuri abanza, aho bwita ku burenganzira bwabo, hari ibyumba by'amashuri yubatse neza ndetse n'ibibuga byo gukiniramo imikino y'amaboko, bityo bigatanga uburezi bufite ireme.

Ubwiherero rusange bugibwamo n'abana bo mu mashuri abanza, aho ufite isuku kandi burinda indwara bitewe n'kuntu hasukuye kandi hitabwaho cyane.

Inyubako zigezweho kandi zubatse mu buryo bugeretse, zisize amarangi y'ubururu kandi zubakishijwe amatafari ahiye, aho abanyeshuri biga mu mashuri abanza, bafatira ubumenyi bwabo.

Uburezi bw'amashuri abanza, aho yubatse neza, mu kibuga giteyemo imyaka, cyanecyane ibigori, ndetse n'ibiti bivangwa nka gereveriya ndetse n'ibindi.

Amashusho agaragara kuri televiziyo y'u Rwanda, aho abana bashishikarizwa kumenya igisobanuro cy'umuganura ndetse n'icyo umariye Igihugu muri rusange kugira ngo bamenye amateka yacyo.

Ubumenyi butangwa muri gahunda y'amashuri abanza, aho abanyeshuri bahabwa ibikoresho, bipima, ibica imirongo ndetse n'ibica inziga kugira ngo bagire ubumenyi buruseho.

Uburezi bw'amashuri abanza aho abanyeshuri bahabwa imyitozo ndetse n'uburenganzira bwo gukora siporo cyane cyane mu imikino y'amaboko kandi bagahabwa ibibuga bimeze neza.

Ibyumba by'amashuri bitondetse neza ndetse harimo n'ikirangantego cy'igihugu cy'idarapo, hateye ubusitani bwiza kandi butoshye aho amashuri afite amarangi y'ubururu.

Ishuri ririmo umwarimu, atanga ikigwa ku banyeshuri, cyane cyane imibare, aho bashaka icyita rusange mu buryo buziguye, bituma abana bagira ubumenyi ku mibare.

Inkuru zisomerwa abanyeshuri mu mwaka wa mbere w'amashuri abanza, aho bahabwa ibishushanyo ndetse n'amashusho atuma bakururirwa kumenya ndetse no gusoma Ikinyarwanda no kucyandika.

Ikigo cy'amashuri abanza abanyeshuri biga byinshi bigiye bitandukanye ku myaka yabo, hari ibyumba bisa neza kandi bifite isuku bituma umwana wese uje kwiga yicara atuje kandi akiga agafata.

abanyeshuri bicaye hamwe bagera kuri bane ku meza ndetse n'intebe ziteye neza, baganira ndetse bibukiranya ku byo bize bafite n'amakayeyi imbere yabo, bityo bigatuma bagira byinshi bunguka kuko baganiriye.

Mu rwego rw'amashuri y'incuke ndetse aho abana barererwa bahabwa ibikoresho byose by'ibanze kugira ngo bafunguke mu mutwe biri mu mabara atandukanye icyatsi, umutuku, umweru, n'umuhondo, bityo bikabafasha mu kwiga neza.

Ibikoresho gakondo byifashishwa mu buhinzi ndetse n'ahandi mu buzima busanzwe, aho abana berekwa ingero zuko ibikoresho biba biteye kugira ngo bamenye byinshi ku mateka y'u Rwanda.

Uburezi bw'amashuri abanza aho mu cyumba kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye nk'intebe, ameza, ikibaho cyo kwandikaho bityo bituma umwana afata neza kandi akiga mu bubyo butekanye.

Iikigo cya pirimeri cy'urwunge rw'amashuri rwa Gishororo, aho gituye mu karere ka Nyagatare, Umurenge wa Mukama, hari indangagaciro ndetse na kirazira umunyarwanda wese akwiye kuba afite cyane cyane umunyeshuri wiga muri iki kigo.

Icyumba cy'ishuri giteguye neza, kirimo intebe, ameza, amakayi n'amakaramu mu mabara atandukanye, bifasha abana bo mu mashuri abanza, kwivugurura ndetse no gutekereza neza kuko ubwonko bwabo buba bukangutse.

Igikoresho cyifashishwa mu mibare cyane cyane mu mashuri abanza. Haba harimo ibikoresho bigiye bitandukanye, ibica imirongo, ibica inziga ndetse n'ibituma imfuruka, bityo bigafasha umwana mu kugira ubumenyi bugiye butandukanye, ku bumenyi bwa siyansi.

Icyiciro cy'amashuri abanza, aho abanyeshuri biga uburyo bwo gushushanya bakoresheje ibikoresho birimo ikaramu z'igiti, agacongesho ndetse n'ibindi mu mabarage atandukanye nk'umutuku, umuhondo, ubururu, ndetse n'ayandi.

Ikigo cy'amashuri abanza aho abanyeshuri bahabwa ibyumba byo kwigiramo bisize amashuri amarangi atandukanye, icyatsi, ubururu, pinki ndetse n'ayandi bituma abana bakururirwa ndetse bakanamenya n'amashuri bigiramo.

Uburezi bw'amashuri abanza aho abana bigishwa kubara ibintu mu matsinda ndetse bbagahabwa n'ubumenyi hifashishijwe ibikoresho bisanzwe ndetse n'imbuto, amaronji, pome ndetse n'imineke bityo bigatuma bamenya byinshi bitandukanye.

Isomero ry'ibitabo bigiye bitandukanye, birimo umwaka wa gatatu w'amashuri abanza ndetse n'ibindi, aho abana bihugura ndetse bakagira ubumenyi mu gusoma bityo bakamenya ururimi neza ndetse n'Ikinyarwanda.

Gahunda yo gutanga imfashanyo ku banyeshuri, cyane cyane abiga mu mashuri abanza, aho bahabwa ibikoresho by'ishuri, amakayi, ibikapu n'inzego z'ubuyobozi.

Uburezi bw'amashuri abanza ndetse abana bigishwa gushushanya, gutera amarangi igiye atandukanye kugira ngo bamenyereze amaboko gukora neza kandi bigirire n'icyizere mu byo bakora.

Uburezi bw'amashuri abanza aho abanyeshuri bubakirwa ibyumba bigezweho kandi bitanga uburyo abana bigamo bafite isuku kandi batekanye.

Uburezi bw'amashuri abanza. Aho umwarimu atangwa amasomo, yerekana ibice bigize umutima ndetse anatanga amazina yabyo.

Ibikoresho byifashishwa mu rugo, cyane cyane imyenda, aho abana bahabwa ubumenyi bwo kubara mu matsinda, bakamenya umubare w'ibyo babajijwe ariko mu mabara agiye atandukanye.

Uburezi bw'amashuri abanza aho ibyumba byo kwigiramo bifungurwa ku mugaragaro n'abayobozi babifitiye ububasha, inzego za Polisi ndetse n'abarimu ndetse n'abigisha ku bigo bigiye bitandukanye.

Abarezi bari imbere y'ikigo cy'amashuri aho ibyumba byo kwigiramo biherereye bahagaze bifotoza ndetse basa neza berekana ko bazi gukorera hamwe ndetse banumvikana.

Uburezi bw'amashuri abanza, ikigo runaka, harimo ibyumba by'amashuri bigiye bitandukanye ndetse ababyeyi bitabiriye uyu umunsi, aho baje kureba imyigire y'abanyeshuri babo ndetse n'icyo bakosora.

Gahunda y'uburezi bw'amashuri abanza aho abanyeshuri bakoresha ibikoresho bigiya bitandukanye mu mibare baca imirongo, baca inziga ndetse bamenya n'uburyo bwo gupima neza ibipimo bigiye bitandukanye.

Amashuri y'inshuke ndetse n'ay'abanza aho abana bigishwa mu kwita ku bikoresho bigiye bitandukanye ndetse bagakangurirwa kumenya amabara yose bituma ubwonko bwabo buba bukora neza.

Uburezi bw'amashuri abanza, aho abanyeshuri bahabwa ibikinisho bigiye bitandukanye ndetse bagahabwa n'amashusho menshi atuma bamenya ndetse bakavumbura ibihishe muri izo nyandiko.

Ibikoresho byifashishwa mu kwiga imibare, harimo ibyereka abana uko baca imirongo, uko basiba n'uko bapima imfuruka mu bipimo bigiye bitandukanye.

Ikiciro cy'amashuri abanza, aho abana bitabira ndetse bakabona umusaruro w'amasomo yabo kubwo gukora ibizamini ndetse bagahabwa indangamanota kugira ngo ubutaha bazagerageze ndetse batsinde kurushaho.

Itsinda ry'abanyeshuri bagera muri batanu, bambaye imyenda itandukanye, harimo amabara y'ubururu, orange, icyatsi ndetse n'umweru, bicaye baciye bugufi, imbere y'ikibaho bandika ndetse basubiramo ibyo bigishijwe.

Ibikoresho byifashishwa mu kwiga imibare barimo guca imirongo, inziga ndetse n'imfuruka aho bikoreshwa mu mashuri abanza abanyeshuri bagahabwa ubumenyi bugiye butandukanye.

Icyumba cy'ishuri kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye ndetse n'abana batoya, bambaye impuzankano z'umweru n'ubururu ndetse harimo n'abafite ubumuga, aho bahabwa icyo gusoma kugira ngo bige neza.

Amasomo atangwa cyane cyane amashuri abanza, aho atanga ubumenyi mu kubara, hifashishijwe ibyo kurya tubona mu buzima busanzwe, karoti, ibigori, amagi ndetse n'amaronji.

Amashuri abanza ndetse afasha abana kugira ubumenyi bw'ibanze kandi yubatse neza ari ahantu, hateye amabengeza bityo bigatuma abanyeshuri bafata neza ndetse bakagira ubumenyi bwimbitse.

Uburezi bw'amashuri abanza, aho abanyeshuri bahabwa ibikoresho bibafasha mu kwiga, amakaramu ubururu n'umutuku, amakayi, imashini zibara, ndetse n'ibikoresho byifashishwa mu mibare.

Uburezi bw'abana biga mu mashuri abanza, aho bahabwa ibikoresho bigiye bitandukanye mu mabara atandukanye, amakayi, ikaramu z'igiti, amarati, uducongesho ndetse n'ibikureri byo kwandika ndetse no gushushanya mu mabara yose.

Uburezi bw'abana biga mu amashuri abanza, aho berekwa ishusho mu gitabo, umwarimu arimo afasha abana kwihangira imirimo ndetse no gukoresha intoki mu guhanga imirimo y'amaboko.

Ibitabo bitandukanye byerekana inkuru zanditse kandi bifasha abana biga mu mashuri abanza, gusobanukirwa no kumenya uko inyandiko z'Ikinyarwanda zimeze, bikamufasha kumenya uko agomba kwandika kandi agasoma neza Ikinyarwanda.

Igikoresho cyifashishwa mu mashuri abanza ndetse n'ay'inshuke, aho bakoresha igikapu gikoze mu nanasi ari ishusho y'urubuto, bityo bigakururira umwana kucyitaho ndetse no kumenya byinshi byimbitse.

Abanyeshuri bari mu mashuri yisumbuye, aho bandika bagahabwa n'ibitekerezo na bagenzi babo, ku cyo bahawe cyo gukora kandi bigatuma batekereza neza.

Abanyeshuri ba segonderi bicaye hamwe bateze amatwi ibiganiro abayobozi babahereza kandi banakurikiza inama bahabwa mu buryo bwabafasha kwiga amasomo yabo neza ndetse bakigirira akamaro.

Gahunda yo kuganiriza abana, bari mu mashuri yisumbuye, aho bahabwa ibiganiro bibungura ndetse bubaka, babifashijwemo n'abayobozi babo babahagarariye.

Inama yahuje abanyeshuri, bicaye hamwe, bari kubwirwa amahame n'abayobozi babo, babaha ibyo bagomba kwitondera ndetse n'inzego z'umutekano zikaba zihari.

Uburezi bwa segonderi cyangwa se amashuri yisumbuye aho umwana w'umunyeshuri yifotozanya n'umubyeyi we kugira ngo amuhe impanuro ndetse anamuhe kuraje mu byo akora.

Ikigo cy'amashuri, aho abanyeshuri biga muri segonderi, bateraniye hamwe mu mpuzangano zigiye zitandukanye, bari kumwe n'abayobozi, bahabwa ibiganiro bigiye bitandukanye.

Ikigo cy'amashuri ya segondari aho abanyeshuri bahabwa serivisi zigiye zitandukanye zita ku guha ireme ibikoresho bikoreshwa atandukanye mu bigo hamwe n'itsinda ryabugenewe.

Inyubako zigezweho zigiramo abana mu mashuri abanza ndetse n'ayisumbuye, aho umurezi atambuka ndetse asuzuma neza niba yaruzuye.

Isomero rusange ririmo ibitabo byo kwigiramo bigiye bitandukanye mu masomo nabwo menshi atandukanye harimo ibiyobora abarimu kwigisha, cyanecyane iby'imibare.

Uburezi bw'amashuri yisumbuye, aho abana bateganyirizwa gushakirwa amafunguro, ababatunga ndetse hakabaho n'ikipe ishinzwe kugenzura niba ibyo bikorwa byagezweho ndetse n'isuku yabyo muri rusange.

Ibigo by'amashuri ya segonderi ndetse n'uburezi bw'amashuri yisumbuye, aho abayobozi batembera bareba neza ibyumba byujuje ubuziranenge kugira ngo abana bagire aho bigira heza kandi hasukuye.

Itsinda ryabugenewe kandi ryatoranyijwe rishinzwe kugenzura ireme ry'ibikoresho bihabwa abanyeshuri ndetse n'amashuri yubakwa kugira ngo yigirwemo, bityo bigatuma uburezi butezwa imbere.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye aho bicaye hamwe bakurikira mwarimu bambaye impuzankano zigiye zitandukanye nk'ubururu n'umukara ndetse n'umweru bityo bituma bisanzuraranaho ndetse bakamenya kubana.

Abanyeshuri bashyizwe hamwe babwirwa ibyo bagomba gukora, bambaye impuzankano za kaki, umweru, umukara ndetse n'imipira y'imbeho, bateraniye hamwe ubona ko bishimye.

Abanyeshuri urwego rwa segondari, aho bihangira imirimo bagakora inkweto mu bitenge, impeta se ndetse n'inigi n'amahererena, bigaragaza ko bafite ubumenyi bugiye butandukanye.

Gahunda y'uburezi bw'abanyeshuri bo mu mashuri yisumbuye, aho bateranirijwe hamwe mu kibuga, bambaye impuzankano zitandukanye harimo icyatsi n'umuhondo, abakobwa ndetse n'abahungu bahabwa inama zikwiye kugenderwaho.

Ibyumba by'amashuri y'abana biga mu mashuri yisumbuye, byubatse mu buryo bugezweho kandi bugeretse, ndetse isize n'amarangi agiye atandukanye, ay'umutuku, ubururu kandi bafite n'ikigega gikusanya amazi y'imvura.

Amashuri yisumbuye ndetse ni ikigo gifite ibyumba bigiye bitandukanye gituye mu karere ka Nyagatare, ikigo cya Karangazi secondary school, aho gitanga indangagaciro ndetse n'ubumenyi ku bana baje bakigana.

Uburezi bw'amashuri yisumbuye, aho abana bahabwa imfashanyo ndetse n'inkunga y'ibikoresho, bibafasha mu kwiga neza kandi bakagira amanota meza y'indashyikirwa.

Abarezi bateraniye hamwe bafite mudasobwa mu ntoki zabo ,ndetse bambaye n'impuzankano, bari kumwe n'umuyobozi wabo, aho bagaragaza ko bafite gukorera hamwe ndetse no gufashanya.

abanyeshuri bari mu nzu za laboratwari cyane cyane abiga mu mashuri yisumbuye, biga mu myuga n'ubumenyi ngiro ku bijyanye n'amashanyarazi ndetse na tekinoloji yayo kuko bafata ubumenyi mu buryo bugiye butandukanye.

Ikigo runaka gifite inyubako zigiye zitandukanye zo kwigiramo ndetse n'izifasha abanyeshuri nk'igikoni ndetse n'inzu y'uburiro, ituma abanyeshuri nabwo babaho neza kandi bakagira imibereho ikwiriye.

Ibigo by'amashuri ya segonderi aho itsinda ryabugenewe ryita ndetse rigasuzuma ibikenewe ndetse nibibura kugira ngo ibyumba bibe byuzuye bityo bigafasha abanyeshuri kwiga bafite umutekano kandi bagafata neza.

Uburezi bwa segonderi cyangwa se amashuri yisumbuye, aho umwarimu ajya mu isomero, agategereza abanyeshuri ko baza gusoma ibitabo bigeye bitandukanye mu masomo menshi aba yigishwa.

Ikigo cya segonderi cy'abakobwa, gifasha abana kugira ubumenyi mu buryo bwose, bambaye impuzankano z'ubururu, umweru ndetse n'umukara, bakaba batanga ubumenyi bugiye butandukanye.

Gahunda y'uburezi bw'amashuri yisumbuye aho abanyeshuri bateraniye hamwe bambaye impuzankano zitandukanye harimo iz'umweru, iz'umuhondo, bakurikira ibiganiro bahabwa n'abayobozi kugira ngo biteze imbere mu bijyanye n'imitekerereze ndetse n'ibindi.

Uburezi bw'amashuri yisumbuye, aho abanyeshuri bari mu cyumba k'ikoranabuhanga ndetse bafite n'umwigisha imbere yabo, yifashisha kompiyuta, bityo bikabafasha kugira ubumenyi bugiye butandukanye kuri tekinoloji.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye abakobwa cyanecyane bambaye impuzankano zitandukanye umweru, ubururu bwijimye, buresiyeri ndetse n'ikigina gisa nkivu, aho bishimye ndetse bifotoza berekana ko banezerewe.

Abanyeshuri bateraniye hamwe bambaye impuzankano z'ubururu, umweru ndetse n'umukara aho bita kubibafitiye akamaro baganirizwa n'inzego z'umutekano nka Polisi ndetse n'abandi bityo bigatuma babaho neza kandi bafite ubuzima bufite intego.

Uburezi budaheje kandi bufite ireme abanyeshuri bisanzuranaho n'abayobozi babo, mu nifomo y'imipira y'umuhondo ndetse n'amapantaro y'umukara.

Uburezi bwo mu mashuri yisumbuye aho abanyeshuri bicazwa mu cyumba cyagenewe kwigirwamo, bagafata ikigwa ndetse bagakurikira mwarimu kugira ngo babone ubumenyi butandukanye.

Uburezi bwita ku bana mu mashuri yisumbuye, aho hakoreshwa uburinganire abakobwa n'abahungu bahabwa ubumenyi ndetse n'ubwenge, bari mu ishuri bari gukora ikizamini cyo gusoma ndetse no kuvuga.

Inyubako z'amashuri aho bari kuzamura ndetse bagira byinshi bakosora mu kibanza kitaruzura ndetse batanga n'ibikoresho byo kwicaraho abanyeshuri kugira ngo babone uko biga.

Icyapa cyerekana ikigo cy'amashuri yisumbuye cya Kagitumba aho kuhagera ari ibirometero bitatu n'igice ndetse kikaba gifite indangagaciro zikwiriye abanyarwanda bagomba kwigamo.

Uburezi bw'abanyeshuri mu mashuri yisumbuye aho umuryango mpuzamahanga ushinzwe kwita ku buzima ndetse n'ibindi usura ukareba uko abanyeshuri batunganyirizwa ibyo kurya ndetse niba bafite isuku.

Gahunda yo kwiga cyane cyane mu banyeshuri bo mu mashuri yisumbuye, aho bicara hamwe bakora imyitozo y'imibare, bagakoresha imashini zibara kugira ngo bungurane ubumenyi kandi bagire icyo bakuramo.

Ikigo cy'amashuri yisumbuye, aho abanyeshuri bateraniye hamwe imbere y'ibyumba byo kwigiramo ndetse bafite n'umuyobozi ugenda ababwira ibyo bagomba kwitwaramo ndetse n'uburyo bafite imyitwarire yabo kugira ngo babe abantu b'abagabo.

Uburezi bwa segonderi, aho abanyeshuri bashyirwa hamwe, bambaye agapfukamunwa mu ntera ya metero kugira ngo basuzumwe neza, abahungu ndetse n'abakobwa, bityo bigatuma birinda indwara zandura mu mwanya w'ubuhumekero.

Amashuri yisumbuye aho abanyeshuri bahabwa ubumenyi ndetse bakitabwaho bitandukanye, inzego zibishinzwe zitanga ibikoresho ndetse bagasuzuma ko bikora neza mu buryo bufite ireme.

Uburezi bw'abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye abakobwa n'abahungu bicaye ku ntebe nziza batekanye aho bafite ikibaho kiriho gahunda y'icyumweru yo kugenderaho ndetse bafata n'icyo kwiga bandika.

Abanyeshuri benshi, bicaye hamwe, bambaye impuzankano yabugenewe, aho baganira ndetse bibukiranya ibyo biga, umwaka wa mbere wa segonderi kandi ku kibaho hari byinshi byanditseho kugira ngo bige neza.

Abanyeshuri ba segoderi cyangwa amashuri yisumbuye, bateraniye hamwe barimo kwigishwa n'umuyobozi wabo, ndetse bafata n'amasomo mu buryo bwose.

Gahunda y'imyunga n'ubumenyingiro aho abanyeshuri bigishwa kudoda imyenda igiye itandukanye kandi bagahabwa ubumenyi bwisumbuyeho mu kwihangira imirimo ndetse no gutanga ibitekerezo bishya.

Abanyeshuri bari hamwe, bafite umubare utubutse, aho bari kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi kandi bigishwa n'amateka kugira ngo bamenye aho Igihugu kiva ndetse n'aho kijya.

Itsinda ry'abayobozi bagenzura neza ibikoresho byahawe ikigo ndetse bareba n'ubuziranenge ndetse n'uburambe bwabyo, kugira ngo bikoreshwe maze abanyeshuri babigiriremo umumaro.

Abanyeshuri biga mu mashuri yisumbuye, aho bahabwa ubumenyi bugiye batandukanye kandi bakagira itsinda ryita ku bikoresho ndetse no gutuma biga bafite gahunda kandi batekanye.

Uburezi bw'amashuri yisumbuye mu kigo gifite ibyumba bigiye bitandukanye, aho abanyeshuri benshi bateraniye hamwe bari kumwe n'abarezi babo ndetse n'abayobozi b'ikigo cyabo.

Icyumba cy'amashuri cyo kwigiramo abanyeshuri b'abahungu ndetse n'abakobwa bicaye ku ntebe zabugenewe basubiramo amasomo yabo kandi biga ibintu bigiye bitandukanye.

Uburezi bwa segonderi, aho abana b'abanyeshuri bambaye impuzankano z'icyatsi n'umukara ndetse n'andi mabara, barimo batozwa gahunda y'umuco nyarwanda ndetse n'indangagaciro.

Uburezi bw'amashuri yisumbuye, aho abanyeshuri bashyirwa mu nzu rusange iberamo bikorwa bitandukanye, bagasusurutswa ndetse bagahabwa ibiganiro ku ngingo zigiye zitandukanye.

Gahunda y'uburezi bw'abana ba segondari, aho bari ku murongo ndetse na mugenzi wabo ubarangaje imbere, wambaye umwenda w'ikigo gishinzwe gutabara imbabare ndetse bari mu rugendoshuri.

Abanyeshuri bambaye impuzankano z'imipira y'umweru ndetse na kaki aho bari mu gikorwa cyo kwibuka ku nshuro ya makumyabiri n'umunani insanganyamatsiko ivuga ngo kwibuka twiyubaka ikigo cy'amashuri cya Mutagatifu Andereya.

Abanyeshuri ba segoderi mu kigo runaka, aho bakora urugendoshuri, bigishwa ndetse berekwa ibintu bitandukanye, harimo ingeri zose, abahungu, abakobwa, bambaye impuzankano za kaki ndetse n'imipira y'umuhondo.

Abanyeshuri bo mu mashuri yisumbuye aho bashyirwa ku murongo ugororotse mu masaha ya mu gitondo bagahabwa imbwirwaruhame ndetse n'inama zigomba kubaranga bafite impuzankano z'ubururu, umukara, umweru ndetse na kaki.

Umurongo w'amashuri ay'incuke, aho ibyumba biteganywa neza kandi bikitabwaho, bifite isuku kandi bifite amarangi atuma abana bakururwa ndetse bakagira byinshi biga, ubwonko bwabo bugafunguka.

Abanyeshuri mu rwego rwa segonderi cy'amashuri yisumbuyeho aho bari kumwe n'ababyeyi babo mu kigo runaka cy'imyuga n'ubumenyi ngiro ho bafite indangagaciro nyarwanda ndetse n'ibindi bagendera kugira ngo bagire ubumenyi bwimbitse kandi bubateze imbere.

Uburezi bw'abana muri segonderi, aho batoranyirizwa hamwe, bakajyana kwibuka ababo bazize Jenoside, bityo bigatuma bamenya amateka y'Igihugu ndetse n'uko Igihugu kibayeho.

Itsinda ryita ku ireme ry'uburezi bw'abana ba secondaire yo mu mashuri yisumbuye, aho bagenzura ndetse bakareba ibikoresho byose ndetse n'uko bigiye bihagaze.

Uburezi bwa segonderi ndetse buteye imbere aho abana cyane cyane b'abakobwa baganirizwa ku buzima bwabo n'umuyobozi ubaruta ndetse ubarusha inararibonye.

Abanyeshuri bicaye mu modoka y'ikigo, aho bajyanywe ku mpamvu z'amasomo ndetse no gusura mu ngendoshuri zigiye zitandukanye bityo bikabungura ubumenyi, mu buryo biga.

Abanyeshuri mu mashuri yisumbuye batonze umurongo bajya mu rugendoshuri, abambaye imyenda y'ubururu, umweru ndetse n'udupira tw'umuhondo, kuko batemberezwa ku mpamvu z'amasomo.

Abanyeshuri ba segondreri bari ku murongo mu kigo giherereye Nyagatare cya Karangaangazi aho bahabwa inama ndetse n'uburyo bwo kwirinda indwara zandura bambaye n'udupfukamunwa.

Uburezi bw'amashuri yisumbuye, aho abanyeshuri bahabwa inama n'abayobozi babo ndetse bakanashishikarizwa kugira imico ikwiriye, bagahabwa na morale.

Ikigo cy'amashuri aho ibyumba byo kwigirwamo bisuzumwa neza n'abayobozi babishinzwe bakareba isuku yabyo bityo bikabafasha kugenda bita ku bifite akamaro ndetse n'ibidafite umumaro bakagenda bagakosora gakegake.

Ikigo cy'amashuri afite ibyumba byubatse neza kandi bifite isuku, aho itsinda ryatoranijwe, ryiga ku bikoresho bikwiriwe gukoreshwa ndetse bakareba n'ubuziranenge bwabyo mu buryo bwose.

Uburezi bw'amashuri yisumbuye cyane cyane aya segonderi aho abana bateranyirizwa hamwe bagasubiramo ndetse bagahabwa na morare zituma bakunda bakundana hagati yabo ndetse bakagira n'umurava.

Ikigo cy'amashuri yisumbuye aho abana bahabwa imbwirwaruhame n'abayobozi babo bakuriye b'abahungu ndetse bakaba n'inama zikwiriye kugira ngo bakomeze kubaha abayobozi babakuriye.

Uburezi bw' amashuri yisumbuye, aho abana bakora ubushakashatsi ku bitandukanye, mu buryo bwa tekinologi bugezweho ndetse n'ubw'ibinyabutabire ,maze ababyeyi bakitabira igikorwa cy'imurikabikorwa bya by'abanyeshuri babo.

Icyiciro cy'amashuri yisumbuye, aho abanyeshuri bicara hasi mu busitani, bagakurikira ndetse bagatega amatwi amagambo y'abayobozi, abambaye impuzankano z'umweru, icyatsi ndetse n'amajipo y'ikigina, aho bateraniye bicaye munsi y'ibiti kugira ngo bumve ndetse bahabwe inama zigiye zitandukanye ku buzima.

Abanyeshuri bicaye hamwe bo mu rwego rwamashuri yisumbuye, bafite impuzankano z'ubururu ndetse no hasi bambaye imyenda yijimye, harimo n'abambaye umukara hejuru, bari kumwe n'umwamwarimu wabo abafasha kuganira ndetse no kwitoza kuririmba.

Amashuri ya kaminuza ndetse n'ay'ubumenyingiro, aho abanyeshuri bigishwa gukora ubugeni, bashushanya bifashishije impano zabo ndetse bihangira n'imirimo.

Gahunda y'uburezi bwa Kaminuza, aho abanyeshuri bambaye impunzankano zo gusoza amashuri yabo, bishimye ndetse berekana ko biteguye kujya ku hanze, isoko ry'umurimo.

Umukuru w'igihugu, aho asura ibigo by'amashuri ndetse agatanga n'ububasha mu kubikoresha, cyane cyane za kaminuza ndetse n'amashuri makuru.

Ubumenyi bwifashishije amaboko ndetse no guhanga udushya, aho abanyeshuri bakora ibihangano bigiye bitandukanye mu buryo bwa gakondo, bikoze mu mbaho ndetse n'ibindi bikoresho.

Ikigo cy'amashuri ya kaminuza ndetse n'ay'imyuga n'ubumenyingiro, aho abanyeshuri batambuka urujya n'uruza rwabo, binjira ndetse basohoka mu kigo, aho bagenda bafatira ubumenyi bugiye butandukanye.

Inyubako ifite ubusitani bugiye butandukanye, irimo imikindo, ibiti, amatara ndetse n'imihanda isashe neza, aho abanyeshuri ba kaminuza ndetse n'ab'imyuga n'ubumenyingiro bajya kwigira kugira ngo bafatire ubumenyi.

Imyuga n'ubumenyingiro ndetse na za kaminuza aho bahabwa ubumenyi mu gukora ndetse no gukoresha intoki, babifashijwemo n'impano zabo bafite bahanga udushya.

Gahunda y'amashuri makuru na za kaminuza ndetse n'ibigo bishinzwe guteza imbere imyuga n'ubumenyingiro aho abanyeshuri bitabira ndetse bagakora ubushakashatsi mu kigo cyabugenewe kugira ngo bongere ubumenyi.

Uburezi bwa kaminuza ndetse n'ibigo by'imyuga n'ubumenyingiro, aho abanyeshuri bicaye mu nzu mberabyombi, barimo bafata amahugurwa ndetse n'amasomo ku bigiye bitandukanye.

Uburezi bwa kaminuza ndetse n'amashuri makuru y'imyuga n'ubumenyingiro, aho abanyeshuri bateranira hamwe bishimye ndetse bahabwa indangamanota zabo kugira ngo bajye ku isoko ry'umurimo, aho bagomba gukora ibyo bize.

Gahunda y'uburezi, cyane cyane bwibanda ku mikoro y'ubumenyi bw'amaboko ndetse no kwihangira imirimo, aho abanyeshuri batozwa gukora ibigiye bitandukanye, bityo bakaba bapiganwa ku isoko ry'imirimo.

Uburezi bwa kaminuza ndetse n'amashuri makuru aho abanyeshuri bahabwa amahugurwa ndetse n'ibyo kwiga bityo bigatuma bahuguka ndetse bagakora imirimo itandukanye irimo kwihangira imirimo ndetse no gukora n'ibishushanyo harimo udushya ndetse n'ibindi.

Uburezi bwa kaminuza ndetse n'amashuri y'ubumenyi ngiro aho ibikoresho bitandukanye nk'ibumba ndetse n'ibindi gakondo byifashishwa mu kubumba ndetse no gukora ibihangano ndetse hagakoreshwa intoki.

Uburezi bwa kaminuza ndetse n'amashuri makuru ndetse n'ay'imyuga n'ubumenyingiro aho higwa bitandukanye harimo gushushanya gutanga n'ibindi bijyanye n'ubugeni, bityo bigafasha abiga kugira ubumenyi bugiye butandukanye.

Amashuri ya kaminuza ndetse n'imyuga n'ubumenyigiro, aho bahabwa ubumenyi bugiye butandukanye cyane cyane mu kwihangira imirimo, bakoresheje impano zabo, bashushanya kandi bahangagana n'udushya.

Ibyumba by'amashuri byateganyirijwe abanyeshuri biga muri kaminuza ndetse n'amashuri y'imyuga n'ubumenyingiro, aho bakorera ndetse bakigira byinshi bigiye bitandukanye.

Gahunda y'imyuga n'ubumenyingiro, aho abanyeshuri batozwa kwihangira imirimo ndetse bazana n'ibitekerezo bishya no guhanga udushya kugira ngo bakomeze batsinde ku isoko ry'imirimo.

Uburezi bwa kaminuza, imyuga ndetse n'ubumenyingiro, aho abanyeshuri bicara muri sare mu nzu mberabyombi, bagahabwa amahugurwa ndetse n'ibiganiro, bibungura ubwenge n'ubumenyi.

Umuryango zeru R cumi na rimwe w'icyumba cy'ishuri kigirwamo n'abanyeshuri bagiye batandukanye ndetse bagafatiramo n'ubumenyi, bigatuma batsinda neza kandi bakabona amanota ashimishije.

Gahunda y'amashuri ya za kaminuza ndetse n'ay'ubumenyingiro, aho abanyeshuri bifashisha ibikoresho bitandukanye kugira ngo babumbe bimwe mu byifashishwa mu kwiga ndetse no kwihangira imirimo.

Icyumba cyo kwigiramo gitunganyije neza, aho banyeshuri bicaye barimo gusubiramo ndetse bakoresha mudasobwa ndetse n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga kugira ngo bagire ubumenyi kandi bwisumbuyeho.

Gahunda y'uburezi bugenewe abanyeshuri ba kaminuza ndetse n'abari mu bigo by'imyuga n'ubumenyingiro, aho abanyeshuri bateraniye hamwe bigishwa n'umwarimu abaha amasomo agiye atandukanye.

Uburezi bwa kaminuza ndetse bwita ku mashuri y'imyuga n'ubumenyingiro aho abanyeshuri bakora ibishushanyo ndetse n'amashusho atandukanye arimo ubuhanga ndetse no kwihangira imirimo bityo bagahanga udushya.

Ikigo by'amashuri ya kaminuza ndetse n'ibiteza imbere uburezi bw'imyuga n'ubumenyingiro, aho umumotari ahetse umugenzi ndetse n'imodoka ibaca ku ruhande, mu ngendo zabo zigiye zitandukanye.

Amashuri ya kaminuza ndetse n'imyuga n'ubumenyingiro, aho bifashisha ibikoresho gakondo kugira ngo bakore ibyo dukenera bya buri munsi, hamwe no kwihangira imirimo.

Uburezi bwita ku gukoresha amaboko mu myuga ndetse n'ubumenyingiro, aho bakoresha ibumba ndetse n'ibindi bikoresho gakondo kugira ngo bakore imbabura ndetse n'ibindi bibumbano, mu kwihangira udushya ndetse no gutanga ibitekerezo bizima.

Ibyumba by'amashuri muri kaminuza y'ibihugu by'Iburasirazuba ariko yegamiye kuri Leta y'u Rwanda aho abanyeshuri bahabwa ubumenyi butandukanye ndetse bakitabwaho birushijeho bituma bagira indangagaciro zibajyana ku murimo ndetse bagahangana n'abandi.

Uburezi bwa kaminuza ndetse n'imyuga n'ubumenyingiro, aho abanyeshuri n'abarimu bafata amahugurwa yo kwiga ndetse no kwigisha kugira ngo butere imbere.

Uburezi bwa kaminuza, aho abanyeshuri bahabwa ibizami ndetse bakagenzurwa kugira ngo barebe ko biteguye ndetse bari mu murongo muzima wo kwiga.

Uburezi bwa kaminuza aho abanyeshuri bicaye hamwe, bakurikiye mwarimu ibyo ababwira kandi bacishamo bakanamwenyura kugira ngo ibyo bafata byose bigire icyo bibamarira.

Ubumenyi bujyanye no kwihangira imirimo, gushushanya no guhanga udushya, aho abanyeshuri batozwa ndetse bagakoresha impano zabo kugira ngo bakomeze bakore imirimo y'amaboko kandi biteza imbere.

Abanyeshuri bari hamwe mu mashuri ya kaminuza imyuga ndetse n'ubumenyingiro bo bishimira intsinzi bagezeho yo gusoza amashuri yabo bakajya ku isoko ry'umurimo.

Uburezi bwa kaminuza ndetse n'imyuga n'ubumenyigiro, aho abanyeshuri bahanga udushya bakora imitako, banashushanya. Bityo bakagira ubumenyi bw'amaboko ndetse bakiteza imbere.

Gahunda y'uburezi bwa kaminuza ndetse n'imyuga n'ubumenyigiro, aho icyumba cy'ishuri gishyirwamo intebe zigezweho, bityo zigafasha umunyeshuri kwiga ndetse akicara atekanye.

Urujya n'uruza rw'abanyeshuri muri kaminuza runaka ndetse n'abarimu bagenda bacamo batanga amasomo ndetse bigisha bityo bigatuma abanyeshuri bunguka byinshi bitandukanye.

Uburezi bwa kaminuza ndetse n'ubw'imyuga n'ubumenyingiro aho abanyeshuri bicara bagatega amatwi mwarimu ndetse akabaha ikigwa bifashishije imashini za mudasobwa kugira ngo bagire icyo bafata.

Icyumba cy'ishuri cyabugenewe ndetse cyateguriwe kwigirwamo, umuryango wa OR zeru gatandatu, abanyeshuri binjiramo bagahabwa ubumenyi ndetse bakaba batuje kandi batekanye.

Uburezi bwa kaminuza ndetse n'imyuga n'ubumenyi ngiro, batanga amahugurwa, abanyeshuri bakicara mu nzu mberabyombi, bagahabwa byinshi bitandukanye, bakoresha mudasobwa ndetse n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga.

Gahunda y'amashuri ya kaminuza ndetse n'ayita ku bumenyi ndetse ngiro bakoresheje intoki zabo aho bahanga udushya bakora ibibumbano bigiye bitandukanye bifashishije ibikoresho gakondo.

Amashuri ya kaminuza ndetse n'imyuga n'ubumenyingiro aho abanyeshuri bashishikarizwa gukora siporo ndetse n'imyitozo ngororamubiri buri wa mbere, buri wa gatatu kuva amasaha baba bapanze kugira ngo bitoze.

Gahunda y'uburezi bwa kaminuza ndetse n'ibigo by'imyuga n'ubumenyi ngiro aho abanyeshuri batozwa ndetse bakerekwa gukora ibikoresho bikoze mu ibumba ndetse n'ibindi bijyanye n'imirimo y'amaboko ndetse n'ubukorikori.

Amashuri ya kaminuza ndetse n'imyuga n'ubumenyingiro aho ishuri ry'umuryango ry'ibihugu by'iburasirazuba ritegamiye kuri Leta y'u Rwanda, bifite inte nziza ndetse ziri mu cyumba cy'amashuri ateye neza.

Icyiciro cy'amashuri y'imyuga n'ubumenyingiro ndetse na kaminuza, aho icyumba cy'ishuri kirimo ibikoresho bitandukanye, intebe zo kwicaraho gikoze mu buryo bw'ubuhanga ndetse bugaragaza ko ari ubumenyi budasanzwe.

Uburezi bw'amashuri ya kaminuza, ndetse n'ibigo bishinzwe guteza imbere imyuga n'ubumenyingiro, aho abanyeshuri bakoresha ibikoresho gakondo nk'ibumba, bakabukorera ibihimbano bitandukanye, ndetse birimo kwihangira imirimo ndetse n'imirimo y'amaboko.

Itsinda ryabanyeshuri benshi bicaye hamwe bategereje impamyabumenyi zabo basoje kaminuza, kandi biteguye kujya hanze ngo bajye ku isoko ry'umurimo.

Kwihangira imirimo ndetse no gukoresha amaboko, abanyeshuri bahanga udushya cyane cyane abiga mu myuga n'ubumenyingiro ndetse na za kaminuza.

Uburezi bwa kaminuza, aho abanyeshuri bicaye hamwe, mu cyumba kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye, hari intebe ndetse n'ikibaho cy'umweru, umwarimu agomba kwandika.

Gahunda y'uburezi aho abanyeshuri ba kaminuza bitabira amasomo ndetse bagakora n'ibizamini bisuzuma ubumenyi bafite kugira ngo bazajye ku isoko ry'umurimo bashyitse.

Gahunda y'uburezi bwa kaminuza n'amashuri y'imimyuga n'ubumenyingiro, aho abanyeshuri bateraniye hamwe, mu nzu mberabyombi, hahabwa amahugurwa ndetse n'ibyo kwiga, bituma baguka mu mutwe.

Gahunda ijyanye no kwigisha abanyeshuri, imyuga n'ubumenyiyingiro, aho bashushanya ndetse bakihangira n'umurimo, mu bitekerezo ndetse no mu mpano bafite kugira ngo biteze imbere.

Uburezi bwa kaminuza ndetse n'amashuri y'imyuga n'ubumenyingiro, aho umunyeshuri yitabira ndetse akajya mu ishuri kugira ngo akomeze agire ubumenyi bugiye butandukanye.

Icyumba k'ishuri harimo ibikoresho bigiye bitandukanye: intebe, ikibaho cy'umweru. Aha muri kaminuza ndetse n'amashuri y'imyuga n'ubumenyiyingiro aho buri wese afite uburenganzira bwo kwiga kandi agafata neza.

Icyiciro cya kaminuza ndetse n'amashuri makuru yiga imyuga n'ubumenyi ngiro aho bakora ibihangano byo gushushanya ndetse birimo n'ubwenge bukorano, bituma baguka ndetse bakiteza imbere muri byose.

Uburezi bwa kaminuza ndetse n'amashuri y'imyuga n'ubumenyigiro, aho abanyeshuri bigishwa kwihangira imirimo bashushanya ndetse bakora n'ubugeni bugiye butandukanye, bityo bigatuma bapiganirwa amasoko ndetse bakagira no kwihangira umurimo.

Gahunda yo guteza imbere amashuri y'imyuga n'ubumenyingiro ndetse na za kaminuza, aho bakora ibihangano bijyanye n'ibishushanyo ndetse bakunguka byinshi mu byo bakora bityo bigatuma bamenya ubumenyi bugiye butandukanye.

Gahunda yo kwigisha abanyeshuri muri kaminuza ndetse n'imiyuga n'ubumenyingiro aho bihangira udushya bagakora ibishushanyo ndetse bagashyiramo n'ubwenge bituma ibihangano byabo byifuzwa ndetse bigasa neza.

Isomo ry'imibare ritangwa ku banyeshuri biga muri kaminuza ndetse nabo mu mashuri y'imyuga n'ubumenyiyingiro aho batanga ihurizo umunyeshuri agakora ikibazo neza kandi akabona amanota.

Abanyeshuri bateraniye hamwe muri sitade ya Kaminuza y'u Rwanda aho bishimira umusaruro bagezemo basoza amashuri yabo ndetse bishimira ibyo batsinze kugira ngo bajye mu isoko ry'umurimo.

Amashuri ya kaminuza ndetse n'imyuga n'ubumenyingiro aho mu cyumba runaka cy'ishuri kirimo abanyeshuri ndetse n'intebe ziteye neza aho biga gukoresha ubwenge bwabo ndetse bakahanga udushya mu buryo bwose.

Amashuri ya kaminuza ndetse n'imyuga n'ubumenyiyingiro, bakora intebe zijyanye n'igihe ndetse zirimo udushya zisa ubururu, abanyeshuri batatu bicaye baganira ndetse bifotozanya na mugenzi wabo.

Ubumenyi ndetse n'uburezi butangwa, ku bijyanye no kwihangira imirimo ndetse no gukora ibishushanyo n'ibibumbano,, mu kwihangira imirimo y'amaboko ndetse no guhanga udushya abo banyeshuri bakora amashusho y'abantu ndetse n'ibindi bigeye bitandukanye mu bikoresho gakondo.

Itsinda ry'abanyeshuri bari hamwe cyane cyane aba kaminuza, aho bari kuganira ndetse basubiramo ku masomo yabo kandi bungurana ibitekerezo kugira ngo batsinde.

Uburezi buteye imbere bushyigikira imyuga n'ubumenyingiro ndetse n'ubukorikori, aho abanyeshuri bakora imitako ndetse bagahanga n'udushya.

Ubumenyi bw'imyuga n'ubumenyingiro, aho abanyeshuri batozwa kwihangira imirimo ndetse bahanga n'udushya kugira ngo batsinde ku isoko ry'umurimo.

Mu bumenyingiro ndetse no gukoresha amaboko, aho abanyeshuri bakora ibintu bigiye bitandukanye kugira ngo bagire byinshi bunguka, bifashishije ibikoresho gakondo.

Gahunda y'uburezi bwa kaminuza, aho abanyeshuri bafite ibikoresho by'ikoranabuhanga, bakurikiye mwarimu ndetse bamuteze amatwi, bityo bikabafasha gusubiramo neza amasomo yabo.

Inyubako zigirwamo kandi zitangirwamo ubumenyi bugiye butandukanye, hari abanyeshuri n'abo batandukanye hari ubusitani bwiza ndetse n'indabyo ziteye neza.

Abanyeshuri bateraniye hamwe basoje kaminuza bambaye imyambaro ibihamya, aho bagiye gufata impamyabumenyi zabo muri Kaminuza nkuru y'u Rwanda.

Ibigo by'amashuri cyane cyane aya kaminuza, aho abanyeshuri bahabwa ubumenyi bugiye butandukanye, ndetse bakora n'intebe zirimo ubuhanga.

Itsinda ry'abanyeshuri bicaye hamwe, basubiramo ndetse bakora imikoro ya mwarimu cyane cyane abo muri Kaminuza ndetse no mu bigo bishinzwe guteza imbere imyuga n'ubumenyingiro, aho bafata byinshi bigiye bitandukanye.

Abanyeshuri bo mu mashuri ya kaminuza ndetse n'ay'imyuga n'ubumenyingiro, bicaye mu ishuri bafite umwarimu uri kubaha amasomo yabo, bakwiriye gufata kugira ngo bunguke byinshi ndetse n'ubumenyi bugiye butandukanye.

Amasomo ajyanye nogushushanya ndetse n'ubugeni ku banyeshuri biga muri kaminuza ndetse n'abiga mu myuga n'ubumenyingiro bituma bihangira imirimo ndetse bagahanga udushya.

Gahunda y'amasomo yo gushushanya ndetse n'ubugeni, aho abanyeshuri biga muri kaminuza ndetse no mu myuga n'ubumenyingiro, bihangira imirimo kandi bakagira byinshi biga bibafasha ku isoko ry'umurimo.

Inyubako ya Kaminuza y'u Rwanda, aho abanyeshuri bicara ku ntebe zimeze neza z'amabara y'ubururu ndetse n'umweru, bagashishikarizwa kugira isuku mu byo bakora byose.

Uburezi bwa kaminuza ndetse n'amashuri yisumbuye y'imyuga n'ubumenyiyingiro, aho abanyeshuri bari mu nzu mberabyombi, bafata amasomo bandika ndetse bita ku by'ingenzi cyane, bityo bigatuma bagira ubumenyi bwisumbuyeho.

Ikigo cy'amashuri ya kaminuza ahari ubusitani bwiza buteye ku murongo, indabyo zicunze neza ndetse harimo n'abanyeshuri bahangana baje kwiga, bityo bigatuma bahavana ubumenyi bufite ireme.

Uburezi bwa kaminuza ndetse n'amashuri n'imyuga n'ubumenyingiro, aho abanyeshuri bateraniye mu nyubako yubatse neza kandi hari n'icyo bayoreramo imyanda mu gihe handuye.

Uburezi bwa kaminuza ndetse n'amashuri y'imyuga n'ubumenyingiro, aho abanyeshuri bateraniye hamwe ,bafite ibikoresho by'ikoranabuhanga, imashini, telefone ,ndetse bafite n'amakayi n'amakaramu, kugira ngo basubiremo amasomo yabo.

Gahunda y'uburezi bwa kaminuza ndetse n'amashuri y'imyuga n'ubumenyi ngiro, aho abanyeshuri bicaye mu ishuri rifite intebe, ibikoresho bisanzwe ndetse n'ikibaho kugira ngo basubiremo neza amasomo yabo.

Imirimo y'amaboko ndetse no kwihangira udushya mu cyiciro cya kaminuza ndetse n'amashuri y'imyuga n'ubumenyingiro, aho abanyeshuri bakora amashusho atandukanye y'imbuto mu buryo burimo udushya ndetse no guhanga umurimo.

Icyiciro cy'amashuri ya kaminuza ndetse n'ay'imyungani n'ubumenyi ngiro, aho mu kigo runaka bubahiriza isuku bagasukura neza, bagakata indabyo ndetse bakagira n'ibikorwaremezo byo kogeraho na kandagira ukararabe.

Inyubako y'ishuri rya kaminuza, muri kaminuza y'u Rwanda, aho ari koleji kampasi ya Nyagatare yigisha iby'ubuvuzi bw'amatungo ndetse n'ibindi bitandukanye bitanga ubumenyi n'ubuhanga ku banyeshuri bakurikiye.